Hanze y'inyubako hari imodoka itwara abarwayi ibavana hamwe ikabajyana ahandi. Havuyemo umuganga ndetse n'undi uje kumwakira, batwaye umurwayi ku kagare kabugenewe bigaragara ko arembye cyane, bari kumwihutisha kugira ngo bamwiteho.

Mudasobwa nini iri hejuru y'amakarito icometseho insinga zijyanamo umuriro ndetse zishobora no kujyanamo andi makuru, ifite aho bakanda hatandukanye naha mudasobwa zindi zitandukanye, ifite ibara ry'umweru.

Umuganga wambaye impuzankano, afite akuma mu ntoki karimo imiti ndetse biragaragara ko batwifashisha basuzuma. Hari n'utundi tubiri afite mu kiganza ariko atari kwitegerezaho nk'ako ngako kandi afite ari gusoma ibyanditseho.

Umurwayi uri kwa muganga, afashe akantu mu ntoki ndetse umuganga amufashe intoki. Arisuzuma ngo amenye uburwayi arwaye, kuko yambaye imyenda imurinda kuba yakandura mikorobe zitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga cy'isuzumiro kirimo umuganga, urimo urarebera mu gikoresho gisuzuma indwara zitandukanye, harimo n'inzoka ari kureba ubwoko bwazo ndetse iruhande rwe hari ikayi ari kwandikamo ibyo bisubizo abonye.

Inyubako nyinshi zitandukanye zifite amarembo hakaba hari aho bakirira abantu bafite indwara cyangwa bahohotewe byumvikana ko hari inzu nyinshi bashobora kubakiramo ndetse hari n'ubusitani hagati y'izo nyubako.

Umugore uri mu nyubako yambaye umupira w'umutuku, ndetse afite n'agakapu atwaramo udukoresho dutandukanye ndetse n'iby'umwana yakenera. Ndetse ahetse umwana mu mugongo ariko aho bakarabira yikoreye umufuka w'umuhondo.